Uburezi bufasha abanyeshuri kumenya ibintu bitandukanye ndetse no kubagura mu bwonko. Ni byiza yuko buri mubyeyi wese agomba kujyana umwana ku ishuri kuva akiri muto kandi akazaza akurikirana n'imyigire ye.

Icyumba kirimo abana batoya bakunze kwita irerero, gifasha abana igihe bafite imyaka hagati y'itatu n'itanu, kubamenyereza kuba bari kumwe n'abandi ndetse no kubaha igikoma kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Ni byiza kwigisha abana gusoma kandi n'igihe bari mu ishuri ukabashyirira ibishushanyo imbere kugira ngo bahore babirebaho bibuke ibyo bize kandi ni ngombwa kubaha ibitabo bakisomesha n'igihe udahari kugira ngo bakomeze bafashanye hagati yabo.

Igihe abana bari mu irerero, ni byiza yuko ababyeyi bita no ku myigire yabo ndetse n'imirire kuko bibafasha gukura mu gihagararo, ndetse no mu bwenge. Ni byiza gukangurira ababyeyi bose kuzaza babaha dodo.

Igihe umurezi ari mu ishuri agomba kwita cyane cyane ku myigire y'abana ndetse n'imyicarire yabo, ukarinda yuko bicara bareba imbere cyangwa inyuma, bose bakicara bareba mu cyerekezo kimwe kandi bagukurikiye.

Ni byiza kujyana abana mu irerero kuko bibafasha kwaguka mu mutwe ndetse bikanagabanura gutinyana hagati yabo. Igihe umwana agejeje imyaka yo kujya mu irerero, ni byiza kubwira umubyeyi wese akajyana umwana.

Abana bigaragara yuko ari abo muri pirimeri mu mwaka wa mbere cyangwa uwa kabiri, bari kwiga gushushanya imirongo ihagaze, itambitse ndetse n'indi itandukanye, kandi bambaye iniforume zisa, hejuru ni umuhondo, bari kwandika ku kibaho cy'umukara.

Igihe abana bari kwiga ni byiza kubaha n'igihe cy'ikiruhuko kuko bibafasha gukangura ubwonko, ndetse n'abarezi babo bakabibafashamo babigisha imikino itandukanye, ndetse banarinda abana uwahutaza.

Uburezi bufasha abana kumenyana ndetse no gutinyuka. Ni byiza yuko buri mwana wese ugejeje imyaka yo kujya ku ishuri, buri mubyeyi amujyana ku ishuri kuko bimufasha kwiyungura ubumenyi, ndetse akanatekereza ku iterambere rye.

Mu gihe abanyeshuri bari ku ishuri mu gihe cy'ikiruhuko bagomba gukina imikino itandukanye, ndetse abakuru bagafasha abatoya mu gihe habaye umubyigano, ni byiza gukangurira abanyeshuri gufashanya mu gihe cy'ikiruhuko.

Icyumba cy'amashuri cyifashishwa igihe abanyeshuri bari ku ishuri ndetse n'igihe abarezi bari kwigisha abana, ni byiza gukangurira abanyeshuri kwitabira ishuri ndetse no kurigereraho ku gihe kandi no gusubiza abana bavuye mu ishuri na bo bakiga.

Icyumba kirimo ibitabo bigaragara yuko abana bibafasha mu masomo yabo ya buri munsi kandi igihe uri ku ishuri uba ugomba kwitabira isomero kuko ukuramo ubumenyi butandukanye. Ni byiza rero guhora rifunguye kandi harimo ufasha abana kwitabira gusoma.

Ikigo cy'amashuri cy'abana, ariko biragaragara yuko abana bakeneye gukorerwa umuhanda mwiza bazajya banyuramo, kuko hano igihe imvura yaguye byazaza bibagora ndetse bikabanduriza n'iniforume. Ni byiza rero gukora ahantu heza abanyeshuri bagomba kunyura, kugira ngo bibafashe mu myigire yabo.

Umwarimu w'umumama cyangwa umukobwa, ari imbere y'abanyeshuri, ikibaho cyanditseho English ndetse n'abanyeshuri bamwe na bamwe bari gukurikira batera amaboko hejuru kugira ngo basubize ibyo agiye kubabaza, bino bishatse kuvuga yuko mbere yo kugira ngo utangire isomo ni ngombwa kubanza kwandika umutwe isomo ugiye kwigisha

Ibyumba by'amashuri byifashishwa hatangwa ubumenyi, haba uburezi bw'abana ndetse n'uburezi bw'abantu bakuru kuko bituma igihugu kigira abantu benshi bajijutse kandi bazihangira akazi.

Ni byiza kohereza abana bose ku ishuri wirinda kurobanura ujyayo cyangwa utajyayo kuko bose bafite uburenganzira bwo kwiga kandi n'umubyeyi akaba afite inshingano zo gukurikirana amasomo yabo.

Icyumba cy'ishuri kigaragara nka pirimeri, harimo guteranya, kugabanya ndetse no gukuramo n'imibare, ni byiza kwigisha abanyeshuri bareba amashusho ndetse no guhora ubabwira bagasubiramo ayo mashusho akamaro.

Hano ni mu cyumba cy'ishuri, aho ku kibaho hashushanyijeho amasaha, hano bigaragara y'uko ari mu cyumba cy'amashuri cya pirimeri kuko nibwo biga amasaha ndetse n'andi mashuri, iki cyumba gifasha abanyeshuri igihe baje ku ishuri kwibuka ndetse no kubahiriza igihe.

Ibidukikije n'ibiti bifasha abanyeshuri kuba bigira ahantu heza hari umwuka usukuye, kandi no mu gihe cy'izuba bikabafasha kubona aho baruhukira hatari izuba ryinshi. Ibyumba by'amashuri kandi bifasha abanyeshuri.

Ubusanzwe mu kigo cy'amashuri ndetse no mu byumba hagomba kubamo ububati bifashisha babika ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha mu myigire yabo kugira ngo bibikwe neza kuko bifite umumaro mu buzima bw'abanyeshuri.

Igihe umwarimu ari imbere, ni byiza kureba yuko abanyeshuri bakurikira kandi akazajya ababaza ibibazo bitandukanye, kugira ngo arebe yuko ntawurangaye kandi nawe akabafasha kubaha ibibazo ava ku byoroshye ajya ku bikomeye.

Ni byiza yuko igihe abanyeshuri bari mu ishuri ugomba no kubigisha kandi bakanasomera hamwe ariko ukamenya ko buri munyeshuri wese afite uko agera kuri iki gitabo nk'uko ashobora guhamagarira babiri bagasomana, aho kugira ngo ufate abanyeshuri barindwi ubahe igitabo kimwe.

Ni byiza kureka abanyeshuri bagakora imikino itandukanye ndetse bakidagadura igihe bari ku ishuri kuko bibafasha gusabana hagati yabo, kwiyungura ubumenyi mu myidagaduro, ndetse no kuruhura ubwonko.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe abanyeshuri bifashisha biga ndetse n'ububati n'ibishushanyo, bigaraga yuko kino cyumba cy'amashuri ari icyumba cy'amashuri abanza ya primaire.

Ni byiza kugaburira abana ku mashuri mu gihe cya saa sita kandi ukanabigisha gukorera isuku aho bafatiye amafunguro kugira ngo bibarinde indwara ndetse n'umwanda mu ishuri.

Ibyumba by'amashuri bifasha abana igihe bari kwiga ndetse bikanatuma babona ubumenyi batandukanye bakazigirira akamaro ndetse bakakagira n'igihugu mu gihe kizaza.

Igihe abana bari ku ishuri, bagomba kubereka ibintu bitandukanye. Nko kubasobanurira imboga bazibereka, ndetse no kubereka yuko bagomba gukora ubushakashatsi bakavumbura ku rubuga rwe, kandi ndetse bakamenya n'amatungo agiye atandukanye nk'inkwavu cyangwa inkoko.

Icyumba cy'abanyeshuri ubona yuko bakurikiye umwarimu, ni byiza kubahiriza amabwiriza agenga umwarimu igihe ari mu ishuri nko kubaza abana, kureba yuko bakurikiye, ndetse no kwirinda kubakubita cyane, ahubwo ukabagira inama.

Amashuri afasha abanyeshuri mu gihe bari kwiga ndetse bakamenya n'ibintu bitandukanye mu buzima bwa buri munsi ndetse bakiga no kwihangira imirimo. Ni byiza yuko buri mubyeyi wese ajyana umwana we ku ishuri.

Buri mubyeyi wese agomba gukangurira abana kujya ku ishuri kuko bibafasha kujijuka ndetse bigateza n'igihugu imbere, ni byiza yuko igihe bageze ku ishuri bakurikira amasomo yabo ndetse bagakora n'ubushakashatsi.

Ni byiza yuko naho abanyeshuri barara hagomba kuba hari inzitira mibu zibarinda imibu, kuko bibafasha kwirinda kurwara nka malariya, ndetse n'utundi dusimba twabaruma.

Igihe abanyeshuri bari ku ishuri, ni byiza kubagaburira kandi buri wese agafatira amafunguro ku gihe, kandi bakabaha n'umwanya wo kuruhuka, ndetse n'uwo gukina na bagenzi babo.

Ikigo cy'amashuri gihagazeho hanze umuyobozi bigaragara y'uko ari uw'ikigo ndetse n'abanyeshuri bari hanze barigusubiramo bitegura gusubira mu ishuri. Ibi biragaragaza ko tugomba kwitabira amashuri.

Ni byiza yuko buri munyeshuri wese agira amahirwe kandi akabona amahirwe yo kujya mu isomero kuko bimufasha kwiyungu ubumenyi ndetse no gukora ubushakashatsi bw'ikibazo kiri muri sosiyete.

Igihe abana bari mu ishuri ni ngombwa gufashanya muri buri byose ndetse bakitabira n'uburezi budaheza. Bishatse kuvuga yuko ari ngombwa gufashanya mu gihe cy'amasomo utagendeye ku gitsina cyangwa ufite ubumuga ugomba gufasha.

Ni byiza nu guhugura abarimu mu kazi kabo bakora kuko bibafasha kugakunda ndetse no kugakora bafite umurava kandi n'umwete buri wese ashishishikazwe kwita ku kazi akora.

Abanyeshuri ndetse n'ibyumba bibafasha kuraramo igihe biga mu bigo bacumbikirwa aho bakunze kwitwa kwita muri dorotwari icyo gihe baba bafite mali zibafasha kubika imyenda ndetse n'ibikoresho byabo

Ibitabo byifashishwa mu kubona ubumenyi bushya kandi bikorohereza n'abanyeshuri igihe bari kwiga, kuko bashakashaka mu bitabo bitandukanye. Ni byiza gukangurira abanyeshuri gusoma ibitabo kuko ni ingenzi.

Ibyumba by'amashuri byifashishwa igihe abanyeshuri bagiye ku ishuri ndetse ubu biragaragara yuko abanyeshuri bashobora kuba batashye kuko nta munyeshuri n'umwe uri kugaragara usibye umuntu umwe gusa uri hanze.

Ikigo cy'amashuri yari gifite securite bituma abanyeshuri bagira imyitwarire myiza kandi bikarinda ubonetse wese kuba yaza yinjira mu ishuri, bikaba bishobora gutera ingaruka mbi abanyeshuri ndetse no guhumana.

Hano haragaragara ibyumba by'amashuri bitandukanye byubatse mu buryo bugeretse ndetse hakagaragara yuko hari hatuje kuko nta banyeshuri bagaragara hanze yacyo, ndetse hari n'ikigega kibafasha kubona amazi ndetse no kuyabika.

Ni byiza gushyira ubukarabiro ahantu hatandukanye, kuko bigufasha kwirinda umwanda kandi ukagira n'isuku. Buri wese agomba gukaraba mbere cyangwa nyuma yuko agiye cyangwa avuye muri tuwarete n'ahandi hatandukanye.

Ikigo cy'amashuri gifasha abana mu myigire yabo ndetse no guteza imyigire imbere kandi n'igihugu kikagira abantu bajijutse cyane, ni byiza gushyiraho igipangu kuko gifasha abana kutajya hanze y'ikigo ndetse n'abana bo hanze ntibinjire mu mashuri y'abana batabiherewe uburenganzira.

Abanyeshuri bari mu mugihe cy'ikiruhuko bigaragara yuko biga mu nyubako zigezweho, ndetse bari no ku kibuga bakiniraho umupira, biragaragara yuko aba banyeshuri bafite imyigire myiza, ndetse n'abayobozi kuko bambaye iniforume zabo neza.

Ni byiza gufasha abanyeshuri ndetse no kubigisha indirimbo zitandukanye kuko bakura bazi gukora ibintu nk'ubuhanzi ndetse n'ubugeni, kandi buri wese akamenya n'imbaraga nkeya ze aho ziri, kandi akamenya n'icyo yiyumvamo agomba gukora cyangwa ashaka gukora.

Ni byiza kwigisha abana imirimo itandukanye nk'ububaji, ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi kuko bibafasha mu buzima bwa buri munsi, sibumve yuko bagomba kwiga ubwarimu cyangwa ubuganga.

Umuyobozi ugaragara nkaho ari guha amabwiriza abanyeshuri. Ni byiza gutega amatwi abayobozi bacu igihe bari kutugira inama ndetse n'igihe bari kudushishikariza kwiga kuko ni twe bigirira akamaro cyane.

Imyidagaduro ifasha abanyeshuri igihe bari kuruhuka kandi bikagira n'ubumaro mu buzima kuko ituma ugira ubuzima bwiza. Ni byiza yuko buri wese akora siporo.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa igihe abana bari gufata ubumenyi butandukanye nk'ubumenyi bw'ubuganga, ubworozi ndetse n'ubwarimu. Ni byiza kujyana abana nk'abafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga ku ishuri.

Igare rifasha abanyeshuri igihe bavuye kwiga, kwihuta bakagera mu rugo ndetse no kubarinda gukerererwa amasomo igihe basubiye ku ishuri, ni byiza ko buri munyeshuri wese yazaza afashwa kugera ku ishuri hakiri kare.

Ni byiza kwigisha abana mudasobwa kuko zibafasha mu ikoranabuhanga ndetse no gukora ubushakashatsi butandukanye. Ni byiza kubakangurira kuziga ndetse no kuzikoresha igihe bari mu ishuri kandi n'abayobozi ndetse n'abarimu bakabibafashamo.

Igihe uri kwigisha abana ni ngombwa kumenya yuko umubare w'abana wose waje ndetse no kubafasha mu mukoro wabahaye ndetse ukababwira yuko bagomba gufashanya, bakirinda gusakuza kandi ukareba n'uko abanyeshuri bose baje bafite iniforume kandi zifite isuku.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe, icyumba cy'amashuri gifasha abanyeshuri igihe bari kwiga, kandi bikabafasha kwagura ibitekerezo byabo no kwihangira akazi.

Ni byiza kwigisha abanyeshuri kugira intego zizabafasha mu gihe kizaza, ndetse no kwigirira icyizere igihe bari imbere ya bagenzi babo cyangwa imbere y'abayobozi.

Ni byiza igihe abana bari mu ishuri yuko bagomba kubabaza kandi n'igihe bagenzi babo bari gupurezanta bakirinda gusakuza. Ni byiza kwigisha abana kumenya kuvugira imbere ya bagenzi babo.

Ikigo cy'amashuri: abana bari hanze y'ikigo cy'amashuri, bamwe bari kuganira, abandi bari gukina; hari ibyumba by'amashuri bitandukanye, ndetse no hakuryaho hagaragara umusozi, ndetse imbere y'icyumba cy'amashuri hari idarapo.

Igihe abanyeshuri bari mu nama ni byiza yuko buri wese yicara kandi atuje, akirinda gusakuza kandi bakumva ibyo abayobozi babo bababwira n'ugize ikibazo akaba yamanika ukuboko hejuru akabaza.

Mu cyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ikibaho, intebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga ndetse n'ibitabo bibafasha kwiga. Ni byiza yuko buri cyumba cy'amashuri, kigomba kirimo ibitabo n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Ni byiza gukoresha uburyo bugezweho bwo kubaka amashuri ageretse, kuko ajya ku butaka butoya kandi hakajyaho amashuri menshi n'abanyeshuri bikabafasha koroherezwa kwiga, kuko baba biga ahantu heza kandi hafite umwuka mwiza.

Ni byiza yuko abanyeshuri biga amaseyasi, ndetse bazaba abaganga cyangwa aba veterineri yuko bagira ibikoresho bihagije byo muri raboratwairi kuko bibafasha kwimenyereza umwuga bakora, ndetse no kubikora kurusha uko wabibabwira mu magambo gusa.

Abarimu, abayobozi, ndetse n'abanyeshuri, bari kubasobanurira ibigendanye n'imashini ikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, ni ngombwa yuko mu burezi duteza imbere gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Porojegiteri ifasha abana bari mu ishuri ndetse n'abarezi muri rusange igihe bari kwigisha, kuko baporojegita imbere noneho abana bakabasha kubyumva, ndetse bigatuma n'igihe cyihuta kuko ntabwo bafata umwanya wo kwandika ku kibaho.

Igihe uri kwiga ni byiza kwigira ku ntego ugomba no kuzajya muri kaminuza kuko bigufasha kugira ubumenyi butandukanye ndetse n'uburambe mu bintu byose bigiye bitandukanye, ni byiza yuko buri munyeshuri wese yigira ku ntego kandi akabona amanota meza.

Mashine ifasha umunyeshuri ndetse n'umwarimu mu myigire yabo, igihe bari gushakashaka amakuru atandukanye ku isomo ndetse n'igihe bari kuvumbura amasomo yandi mashyashya, kandi ni igikoresho kifashishwa mu ikoranabuhanga n'itumanaho.

Si ngombwa yuko niba ugiye kunyura ahantu hari jaride uyinyuramo, kuko bituma hatagaragara neza, rero ugomba kwita ku cyapa kikwereka ahantu imba ari ngombwa kuhanyura cyangwa nimba bibujijwe ukanyura ahandi habugenewe, kuko byangiza ibimera ndetse n'ibyatsi, n'indabyo muri rusange.

Ni byiza guhugura abantu badafite ubumenyi cyangwa badafite ubumenyi buhagije. Kuko bituma igihugu gitera imbere, kandi bikabafasha no mu buzima bwa buri wese. Ni ngombwa gukangurira abantu kwitabira amashuri, ndetse n'abana bagomba kwiga bakiri bato.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa igihe abana bari guhabwa ubumenyi butandukanye, ni byiza cyane buri munyeshuri wese kwiga kuko bimufasha kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange.

Inzu zifite akamaro kanini kuko niho abantu baruhukira igihe bananiwe niho bafatira amafunguro niho barara kandi ni naho baba batuye, ni byiza ko buri wese atura mu nzu yujuje ibyangombwa.

Abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko bari kwitabira amahugurwa atandukanye ndetse no gufata inyigisho ku buzima bwa buri munsi, bahugurwa ibintu bitandukanye bizabafasha.

Ikigo cy'amashuri gifite ubusitani bwiza bufasha abanyeshuri kubona umwuka mwiza, ndetse no kuruhukiramo. Ni beza yuko buri bigo byose byazaza bigira buno busitani, kuko bufite uburyo bwo bufasha abanyeshuri kuruhuka.

Kwiga ubuganga ndetse no gukora muri farumasi ni byiza kuko bigufasha kwita ku barwayi, kandi ukabaha n'imiti warabyize, kuko iyo wize ubuganga uba ufite ubushobozi bwo gusuzuma ndetse no kubaza umuntu, ukamenya ikibazo afite.

Laboratwari ifasha abanyeshuri biga ubuganga igihe bagiye gukora puragitise, ni byiza yuko buri kigo cyose bazaza bashyiramo kino cyumba kuko gifasha abanyeshuri kwiyungura ubumenyi ndetse no kubimenya kubikoresha mu buzima bwabo b'ubuganga.

Igihe abana basoje kwiga ni byiza yuko baza bagafata amakaye yabo bakayazinga, ubundi bakayabika ndetse n'ibitabo kugira ngo birinde akajagari mu ishuri. Ni byiza yuko abarezi bazaza bakangurira abanyeshuri igihe basoje kwiga yuko bagomba gufata neza ibikoresho byabo.

Amacumbi y'abanyeshuri yifashishwa igihe abanyeshuri biga baba mu kigo. Ni byiza gukangurira buri mubyeyi wese kumenya yuko umwana wiga aba mu kigo ari ho arara kandi n'ikigo kigashyiraho ingamba zo kubacunga ndetse bakirinda no kurarana kuko bituma bakora agakungu.

Uburezi bufasha abanyeshuri kubona ubumenyi butandukanye ndetse n'abarezi bakabona amafaranga bikabateza imbere mu buzima bwa buri munsi. Ni byiza yuko buri gihugu gishyiraho ingamba zo gukangurira buri muntu wese kwitabira uburezi kuko bituma igihugu kigira umubare munini w'abize.

Projecteur ifasha abarimu ndetse n'abanyeshuri mu myigire yabo, ni byiza gukoresha projegiteri igihe uri kwigisha kandi ukazaza wandika no ku kibaho igihe uri kubasobanurira kuko bituma...

Ni byiza kwita muri laboratwari kandi banamenya yuko hari isuku ihagije kuko habikwa ibikoresho by'ingenzi kandi bifasha abanyeshuri biga ubuganga ndetse n'ubuvuzi kwimenyereza umurimo.

Ibigo by'amashuri byifashishwa hatangwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, ni byiza y'uko buri mwana wese agomba kwitabira ishuri, ndetse n'umubyeyi akamufasha mu myigireye, amufasha mu mikoro babahaye, ndetse no kumuha ibikoresho by'ishuri.

Ni ngombwa y'uko ikigo kigira aho kizaza kibika imyaka yihariye kandi hasukuye kugira ngo itangirika bigatuma abanyeshuri bafata amafunguro atameze neza, bikabaviramo kuba barwara indwara zitandukanye.

Uburezi bufasha abana gukora ubushakashatsi ndetse bakanavumbura. Ni byiza guha abana amahirwe yo kujya muri laboratware ndetse n'ahandi ibikoresho bagasuzuma kandi bakanashakira ikibazo kiri mu miryango nyarwanda.

Kwigishiriza abanyeshuri mu byumba bisukuye, bibafasha kumva isomo ndetse bakaba babayeho neza mu gihe bari hanze y'ikigo ndetse bagakinira n'ahantu hasukuye, ni byiza gukangurira buri munyeshuri wese kwiga.

Icyapa kigufasha kukwereka igice ikintu runaka giherereyemo, urugero nk'isomero bashobora kukwereka giherereye aha angaha, ndetse kikanakwereka ahantu ubura kugira ngo ugere ku kintu, nk'isomero rya kaminuza n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni byiza kwigisha n'abantu bacishije amashuri, kuko bibafasha kwihugura mu bumenyi butandukanye ndetse, bakanabigisha gukoresha ikoranabuhanga. Kandi ukabyigisha abasore n'abagabo, cyangwa abagore wirinda guheza igitsina kimwe.

Ni byiza niba wubatse amashuri abanyeshuri azaza abafasha mu buzima bwa buri munsi no kongera ubumenyi y'uko ushyiraho n'inzira y'abafite ubumuga ndetse n'uburezi budaheza. Buri munyeshuri wese aba agomba kujya ku ishuri kugira ngo agire ubumenyi butandukanye nko gukora ibikoresho bitandukanye, kuba umuganga ndetse no kuba umwarimu.

Ubusitani bwifashishwa igihe abanyeshuri bari kuruhuka babona umwuka mwiza uturutse mu bidukikije, kandi inyubako igeretse ni nziza ku banyeshuri kubera ijyamo abanyeshuri benshi kandi ari ahantu hatoya.

Ni byiza kubanza guha amahugurwa abaturage ndetse n'abandi bose igihe bagiye gutangira igikorwa cya mbere kandi ukanahugura uko bazaza bakoresha ibyo bikoresho bagiye guhabwa.

Ni byiza kugira ibitabo bitandukanye mu masomero, kuko bifasha buri wese winjiyemo kwisanga, afasha, abona igitabo ashaka kandi agakoresha ururimi yifuza gukoresha, buri bigo byose ndetse no hafi hahurira abantu, ni byiza kuhashyira amasomero.

Buri munyeshuri wese agomba kwiga afite intego, kugira ngo azagere mu mashuri makuru na kaminuza. Kuko iyo uhageze wiga ibintu bitandukanye, haba egisiperiyase yo hanze ndetse n'iyo mu ishuri. Ni byiza gukangurira buri murezi wese ndetse akanabwira abanyeshuri kwiga bafite intego.

Ni byiza guteka amazi mbere yuko uyanywa kandi n'igihe muri ku ishuri mugomba kunywa amazi meza kandi mugafura ndetse mukanabika ibikoresho byanyu bifite isuku.

Ikigo cy'amashuri kigomba kugira icyumba abanyeshuri bashobora kubarizamo ndetse no gusaba uruhushya igihe bagize ikibazo, ni byiza ko buri munyeshuri wese agira uburenganzira kandi akazaza yumvishwa n'ikibazo cye.

Ni byiza yuko mu kigo cy'amashuri hagomba kuba hari sekirite, kuko bifasha abanyeshuri kubarinda gusohoka mu kigo nta ruhushya, ndetse n'abandi bantu kwinjiramo, kuko sekirite agomba kuba ari ku muryango cyangwa ku marembo y'ikigo.

Ni byiza gukupa kupa ibyatsi biri imbere y'amashuri, kugira ngo hatazamo udusimba n'inzoka, tukaba twaruma abana, bikabaviramo kurwara cyangwa gupfa. Ni ngombwa gukangurira ababishinzwe gukora amasuku ahantu hose.